Abantu benshi bicaye ahantu hamwe batuje bakurikiye ikiganiro, harimo abafite amazi imbere yabo ndetse hari n'abakurikiye cyane ikiganiro.

Abantu bicaye bari mu nama, umugabo urimo hagati yambaye ishati y'umweru iriho amabara ku maboko y'umukara, ku ruhande rumwe hari umubyeyi, ku rundi ruhande hari undi mugabo, ameza yabo ariho amazi ndetse n'amakaye.

Abasore bambaye imikenyero, amashati n'imikenyerero yo hasi y'umukara n'utwitero tw'umuhondo bapfukamye bari kubyina bateze amaboko bayarebesha imbere.

Imyitwarire n'imimerere igiye itandukanye byerekewe ku muco w'abantu. Aho abagabo wasangaga barasokoje ibyitwa amasunzu. Umusatsi wabo wabaga uciyemo umurongo hagati. Bagatereka ubwanwa ndetse bakambara n'inigi mu ijosi, wabaga usanga umwami ari uko ameze.

Urugomero rw'amashanyarazi y'umuriro aho hari abakozi babigize umwuga ndetse babyigiye bakora kuri urwo rugomero, hari imashini zitandukanye zishinzwe gukwirakwiza umuriro hirya no hino ndetse zikaba zifata ingufu z'amashanyarazi.

Ikwirakwizwa ry'amashanyarazi hubatse insinga ndende zifashe ku mapoto y'ibyuma aho hubatswe ipoto rifite ibyuma byinshi bitandukanye ndetse hakaba hariho insinga zijyana imiriro hirya no hino.

Gukwirakwiza umuriro hirya no hino, hakoreshejwe amapoto ndetse n'abakozi babigize umwuga kandi babifitiye ububasha. Aho baba bambaye kandi birinze cyane bakambara, inkweto zabugenewe ndetse no mu mutwe bagashyiramo ingofero z'ubwirinzi. Bakoresheje kurira amapoto ndetse bakwirakwiza umuriro mu nsinga.

Inyubako y'akarere ka nyagatare, imbere hariho icyapa cyanditse mu magambo y'umukara, kivuga ko ari Akarere ka Nyagatare ndetse handitseho ngo irembo ry'amahoro.

Inzu zikorerwamo ibikorwa bya Leta. Inyubako igeretse kabiri, imwe yubatse hejuru y'iyindi, imbere hari abantu baje gusaba serivisi muri Leta hari imodoka.

Inyubako za leta zikorerwamo ibikorwa bitandukanye, hari ikigega gifata amazi kandi mbere y'izo nyubako hakaba hari ibimera bihateye bifasha abaturage kuko ari ibya leta.

Inyubako ya Leta ikorerwamo n'ubuyobozi bwa Leta, aho abaturage baza gusaba serivisi muri Leta zitandukanye, hari abaturage bicaye bategereje guhabwa karibu.

urujya n'uruza rw'abantu, bari kugenda ku kiraro cy'ibyuma cyo hejuru y'amazi, aho harimo abazamuka, abandi bamanuka, bagenda bafashe ku byuma bijya mu kirere, abandi bafashe ku bibari iruhande.

Abagabo bahagaze imbere y'imodoka hakurya yabo hari umuhanda w'ibinyabiziga n'uwo abanyamaguru. Abagabo bambaye imipira isa y'icyatsi n'ingofero harimo nabambaye rineti.

Abantu benshi bicaye munsi y'ibiti ahantu mu byatsi, bamwe bicaye ku ntebe, abandi bicaye hasi bararambya, barimo barumva.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo umumotari uhetse umugenzi, bose bambaye kasike, umumotari yambaye umupira n'ipantaro naho umugenzi arifubitse esharupe, imbere yabo hari imodoka, itwaye umuntu umwe.

Imodoka iri mu muhanda imbere y'inyubako, inzu z'ubucuruzi zifite amabara y'umweru, hahagaze imodoka irimo umuntu wambaye ipantaro y'umukara n'umupira.

Abantu bicaye, bamwe bareba abandi ku ntebe zegamirwa, harimo abambaye inifomo z'abasirikare b'u Rwanda, abandi bambaye imyenda isanzwe, higanjemo abambaye imipira y'umweru.

Abantu bicaye abandi bahagaze umwe ahagaze ari kuvuga afite umufatiye umutaka amukingira, abandi bicaye mu mahema yabambwe kugira ngo batabasha kugerwaho n'izuba.

Abahinzi benshi, bari mu gikorwa kimwe, bafite amasuka, bamwe ni abagabo, abandi ni ababyeyi bahetse abana, bamwe barahagaze abandi bari guhinga.

Umuntu umwe urimo gukina umupira w'amaguru mu kibuga kigari akirimo wenyine inyuma hari inzu inyubako, iriho umuntu wicaye ari kumureba hari na moto bagendaho.

Gukina umupira kw'abasore bakiri bato bambaye inifomo yo gukinana, ikabutura, n'udupira twa siporo, ndetse bambaye n'inkweto zabugenewe zo gukinana umupira, ibi babikora barimo bakora siporo.

Abana b'abakobwa barimo bakina umupira w'amaguru, ahantu h'igitaka hatari ibyatsi, bambaye infomo zitandukanye, umwe yambaye inifomu y'umukara, undi yambaye iy'ubururu, bambaye inkweto zo gukinana umupira w'amaguru.

Abakinnyi b'umupira bafite inifomo zenda gusa ubururu, bambaye inkweto zo gukinana umupira w'amaguru ndetse n'umupira bari gukinira ahantu hari ibyatsi, iruhande hari inzira, hakurya hari umukobwa urimo agenda, inyuma yaho hari amazu.

Abantu bicaye bambaye imyenda ya siporo bicaye ahantu hari udutebe two muri stade hariho inimero, bambaye umupira wa jezi w'umutuku.

Abagabo n'abagore bicaye batuje, abagabo babiri bafite amazi yo kunywa, umwe yambaye ingofero, yambaye umupira w'umweru, bicaye bategereje bari kureba umupira.

Umuhanda w'abanyamaguru, n'umuhanda ugendwamo ibinyabiziga nk'imodoka, moto, amagare n'ibindi, ku mpande hari uturongo tugaragaza aho imodoka igomba gukata, n'aho itakata.